Uru ni urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'umukara ndetse andi magambo akaba ari mu mabara y'umutuku.

Iki ni icyapa kiriho umugore n'umugabo, umugore akaba yambaye umupira w'umweru, hirya hakaba handitseho amagambo agiye ari mu mabara y'umukara, ubururu ndetse n'umutuku.

Iki ni icyapa gisa umukara ndetse n'umutuku. Iki cyapa kigiye cyanditseho amagambo atandukanye, ari mu ibara, yose hamwe y'umweru.

Iki ni icyapa kiriho abantu bagiye batandukanye, bambaye imyenda itandukanye. Iki cyapa kikaba kinanditseho amagambo ari mu mabara y'umukara, ubururu, n'umweru.

Uyu ni umugore, wambaye umupira w'umweru, n'umukara, akaba ahetse isakoshi ku rutugu. Akaba kandi afite n'indi sakoshi cyangwa se igikapu, gisa ubururu mu ntoki.

Uyu ni umugabo wambaye ishati y'ubururu, ikote ry'ubururu, ipantaro y'umweru n'umukandara w'umukara, akaba ahetse igikapu na cyo kiri mu ibara ry'umukara.

Uru ni urupapuro rwanditseho amagambo agiye atandukanye, agiye ari mu mabara y'umutuku, ubururu n'umweru. Uru rupapuro rukaba rushushanyijeho n'umutaka munini ndetse n'inzu.

Uyu ni umugabo wambaye ingofero ndetse n'ikote n'umupira w'umukara, akaba ari hagati y'ibigori. Hirya ye hakaba hari amagambo yanditseho ari mu mabara y'ubururu, umweru n'umukara.

Iki ni icyapa kinini gisa umweru, iki cyapa kikaba gishushanyijeho igishushanyo gisa umuhondo ndetse cyanditseho amagambo asa ubururu.

Uyu n'umugabo wambaye isaha y'umukara n'umupira w'umukara iruhande rwe hakaba handitseho amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Icyi ni icyapa kinini cyane, kiri mu ibara ry'umweru, cyanditseho amagambo, ndetse n'ibishushanyo, biri mu mabara y'umuhondo, icyatsi, ndetse n'umukara.

Iki ni ikiganza cy'umuntu ufashe telefone mu ntoki ze, iyo telefone ikaba irimo amagambo atandukanye agiye ari mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Uru ni urupapuro rw'umweru ndetse n'icyatsi. Uru rupapuro rugiye rwanditseho amagambo agiye atandukanye, aya magambo akaba ari mu ibara ry'umukara ndetse n'icyatsi n'umweru.

Uru ni urupapuro rw'umutuku n'umweru. Rukaba rugiye rwanditseho amagambo ndetse n'imibare bigiye bitandukanye, biri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara.

Uru ni urupapuro rw'umweru. Uru rupapuro rugiye rwanditseho amagambo atandukanye ndetse n'imibare bitandukanye. Ibi byose bikaba biri mu mabara y'umukara, icyatsi, ndetse n'umutuku.

Uru ni urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo agiye atandukanye. Aya magambo akaba ari mu mabara y'umukara, ubururu ndetse n'umweru.

Uru ni urupapuro rwanditseho amagambo agiye atandukanye, ari mu mabara y'umweru ndetse n'umukara. Uru rupapuro ruriho n'ifoto y'abantu babiri bicaye ku ntebe z'umukara.

Iyi n'urupapuro rwanditseho amagambo agiye atandukanye, aya magambo akaba ari kumwe n'ibishushanyo bitandukanye biri mu mabara y'ubururu, amagambo yo akaba ari mu ibara ry'umukara n'umweru.

Uru ni urupapuro rw'umweru rugiye rwanditseho amagambo atandukanye ari mu mabara atandukanye, aya magambo akaba yanditse mu mabara y'umweru, ubururu ndetse n'umukara.

Aba ni abagore babiri bari mu cyumba kimwe, imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho impapuro nyinshi ndetse na mudasobwa.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi ifite igisenge cy'umweru inkuta z'umukara iyi nzu ikaba irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye byiganjemo imyenda.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi irimo abantu bagiye batandukanye ndetse n'utubati tujye turimo ibicuruzwa bitandukanye. Uyu mukobwa uri hano imbere akaba ari gukoresha mudasobwa muri ino nzu.

Iyi ni imyenda igiye itandukanye imanitse mu cyumba gisa umukara n'umweru, hejuru hakaba hamanitse itara riri kumurika.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi, irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, byiganjemo inkweto ndetse n'imyenda yo kwambara. Hakaba harimo n'akabati gasa umweru.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi ifite inkuta zisa umweru ndetse hasi hakaba hariho amakaro asa umweru. Iyi nzu kandi ikaba irimo ibicuruzwa bitandukanye, byiganjemo imyenda.

Iyi ni imyenda myinshi iri mu bwoko bw'amakanzu ndetse n'amapantaro, iyi myenda ikaba iri mu mabara agiye atandukanye nk'ubururu, umuhondo, umweru ndetse n'andi.

Iyi ni imodoka iri mu ibara ry'umukara, iyi modoka ikaba ihagaze mu muhanda, inyuma yayo hakaba hari ibiti byinshi cyane biteye mu busitani.

Aba ni abihaye Imana babiri b'abagore bahagararanye n'umugabo, bakaba bafite mu biganza byabo icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo y'umukara n'umutuku, impande yabo hakaba hahagaze imodoka.

Iyi ni inzu iriho ibyapa bigiye bitandukanye, ibi byapa bikaba byanditseho amagambo agiye ari mabara y'ubururu n'umutuku.

Iki ni icyapa kirekire cyane kiri mu mabara y'ubururu n'umweru. Iki cyapa kikaba kigiye cyanditseho amagambo n'imibare bigiye bitandukanye biri mu mabara nayo y'ubururu n'umweru.

Iyi ni imodoka y'umukara, iri imbere y'inyubako ndende, inyubako yubakishijwe amatafari ahiye ndetse ikaba ifite n'inkuta zisize ibara ry'umweru.

Iyi ni imodoka ihagaze mu cyumba kinini iyi modoka ikaba iri mu ibara ry'umukara iki cyumba kikaba gifite amakaro hasi asamweruru ndetse n'inkuta z'icmweru.

Aba n'abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka y'umukara, bakaba bafite icyapa mu ntoki zabo cy'umweru, iki cyapa kikaba cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Iyi n'inzu iriho irangi ry'umweru, ikaba ifite amadirishya y'umukara, iyi nzu ikaba ifite ubusitani ndetse ikaba iriho n'ibyapa bigiye bitandukanye.

Aba ni abantu batandukanye bamwe bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza hariho mudasobwa ndetse n'uducupa dutandukanye, hakaba hari n'undi umwe ubahagaze imbere wambaye umupira w'ubururu.

Aba ni abantu batandukanye bahagaze imbere y'kirahure, mo imbere mu kirahure hakaba harimo abandi bantu bari gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa ndetse bafite n'ibipapuro byinshi.

Iki n’ikiganza cy'umuntu gifashe amafaranga menshi cyane mu ntoki, aya mafaranga akaba ashushanyijeho umugabo ndetse akaba yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara n'umweru.

Iyi ni inoti y'amafaranga magana atanu, iyi noti ikaba iriho ibishushanyo by'abana batatu bari gukoresha mudasobwa, ndetse iriho n'igishushanyo cy'ikiraro kirekire gikikijwe n'ibiti.

Iki ni ikiganza cy'umuntu, iki kiganza kikaba gifashe inoti z'amafaranga mu ntoki. Aya mafaranga akaba agiye ari mu mabara y'umweru ndetse n'umukara.

Uyu ni umugabo wambaye ishati, ku rutugu rwe hariho umupira utukura. Akaba ari kuvugana n'undi mugabo uri imbere mu kirahure, imbere ye ufite imashini yabu ibara amafaranga, ndetse na mudasobwa.

Iyi ni inyubako irimo akabati gakozwe mu rubaho, akabati kakaba kagiye karimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byiganjemo uducupa tw'amazi n'ibindi byinshi.

Iki ni icyapa kinini cyane, iki cyapa kikaba kiri mu mabara y'umweru n'ubururu. Iki cyapa kandi gishushanyijeho igishushanyo cy'inka, kiriho kandi n'ibindi bishushanyo bitandukanye, kinanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Iyi ni inzu cyangwa se ni icyumba gifite inkuta zisa umweru, amadirishya asa icyatsi ndetse hasi hakaba hariho amakaro asa umweru, iki cyumba kandi kikaba kirimo imashini nini cyane cyangwa se icyuma kinini cyane kibikwamo amata.

Iki ni icyumba kirimo ameza asa umweru ndetse n'intebe zisa umweru. Hakaba harimo abantu benshi batandukanye baje kunywa amata.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi irimo akabati gasa umweru n'akandi gasa ubururu. Utu tubati tukaba tugiye turimo ibirahuri bitandukanye, uducupa tw'amazi n'ibindi byinshi.

Iki ni icyumba kirimo ibara ry'ubururu n'umweru, iki cyumba gifite amadirishya asa ubururu. Iki cyumba kandi kirimo intebe isa umweru ndetse n'icyuma kinini cyane cyo kubikamo amata.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi isa ubururu. Iyi nzu ikaba irimo akabati karimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye nk'uducupa tw'amazi, amagi n'ibindi byinshi.

Iyi ni inzu y'amatafari ahiye. Iyi nzu ikaba ifitemo amakaro y'umweru ndetse ikaba irimo icyuma kinini gishushanyijeho inka ndetse n'amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi irimo umugabo wambaye umupira, inyuma ye hakaba hari akabati k'ubururu, n'imbere ye hakaba hari akandi k'umweru, utu tubati tukaba turimo ibicuruzwa bitandukanye, byiganjemo amazi n'ibindi byo kunywa bitandukanye.

Uyu ni umugabo wambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro y'ubururu, akaba arimo arasuka amata mu cyuma kinini cyane, inyuma ye hakaba hari urukuta rw'umuhondo n'umweru.

Ibi ni ibyo kurya, birimo utunyama duto dutoya, bakunze kwita, amasambusa, aya masambusa, akaba ateretse ku isahani, iri mu ibara ry'umweru.

Uyu ni umugore wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara. Akaba mu ntoki ze afitemo igikombe kinini cyane, kirimo amata. Akaba ari mu cyumba gifite inkuta z'umweru ndetse n'amadirishya asa ubururu.

Uru ni urupapuro rw'umweru, uru rupapuro rukaba rugiye rwanditseho amagambo atandukanye, ari mu ibara ry'umukara ndetse n'ubururu kandi rukaba ruriho n'ibindi byapa biri mu mabara y'umutuku, umuhondo, umweru n'ubururu.

Uru ni urupapuro rw'umweru, uru rupapuro rukaba rugiye rwanditseho amagambo atandukanye. Aya magambo akaba ari mu mabara y'umukara ndetse n'icyatsi.

Iki ni ikiganza cy'umuntu gifashe mu ntoki telefone isa umukara iyo telefoni ikaba igiye yanditsemo amagambo atandukanye ari mu mabara y'umweru n'umukara.

Uru ni urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo ndetse n'imibare bigiye bitandukanye, biri mu mabara y'umukara ndetse n'ubururu, urupapuro ruriho n'ibendera ry'u Rwanda ndetse na America.

Uru ni urupapuro rw'icyatsi, uru rupapuro rukaba rugiye rwanditseho amagambo atandukanye. Ayo magambo akaba ari mu ibara ry'umukara.

Uru ni urupapuro rutukura, uru rupapuro rukaba rugiye rwanditseho amagambo n'imibare bigiye bitandukanye, ibi byose bikaba biri mu ibara ry'umweru.

Uru ni urupapuro rw'umweru kandi rukaba rugiye rwanditseho amagambo ndetse n'imibare bigiye bitandukanye, biri mu mabara y'umweru, umukara ndetse n'ubururu.

Uyu ni umuhungu wambaye umupira w'umukara ndetse akaba ari gutera ipasi y'umweru akaba ari gutera ishati, hirya ye hakaba hari amagambo ari mu ibara ry'umutuku ndetse n'umukara.

Uuu ni urupapuro rw'umweru, urupapuro rukaba rugiye rwanditseho amagambo ndetse n'imibare bitandukanye, bikaba biri mu mabara y'umukara ndetse n'ubururu n'umweru.

Izi ni telefoni ebyiri ziri mu mabara y'umukara, izi telefone zikaba zigiye zanditsemo amagambo agiye atandukanye nayo ari mu ibara ry'umukara.

Iyi ni telefoni isa umukara, iyi telefoni ikaba yanditsemo amagambo agiye atandukanye ndetse ikaba irimo n'ifoto y'umugabo, aya magambo akaba ari mu ibara ry'umweru.

Iki ni igipapuro cy'inyemezabwishyu cyanditseho amagambo ndetse hakaba hariho n'imibare bigiye bitandukanye, biri mu mabara y'umukara ndetse hakaba hariho n'ikirangantego cy'u Rwanda.

Uru n'urupapuro rw'inyemezabwishyu ruriho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda, kandi uru rupapuro rukaba rugiye rwanditseho imibare n'amagambo biri mu ibara ry'umukara.

Uru ni urupapuro rw'inyemezabwishyu rwanditseho amagambo ndetse n'imibare bigiye bitandukanye biri mu ibara ry'umukara, uru rupapuro ruriho n'ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda.

Uru ni urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo agiye atandukanye n'imibare itandukanye. Byose bikaba byanditse mu ibara ry'umukara. Hejuru hakaba hashushanyijeho ikirangantego cya repubulika y'uRwanda.

Uru ni urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse hakaba hari n'andi ari mu ibara ry'umutuku.

Iki ni igipapuro cy'inyemezabwishyu cyanditseho amagambo ndetse n'imibare bitandukanye mu ibara ry'umukara. Iki gipapuro kikaba gifiteho n'ikirangantego cy'u Rwanda.

Uru ni urupapuro ruzwi nk'inyemezabwishyu iriho amazina ndetse n'imibare bigiye bitandukanye biri mu ibara ry'umukara ndetse hakaba hariho n'igishushanyo cya repubulika y'u Rwanda.

Uru ni urupapuro rw'inyemezabwishyu ruriho ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda. Uru rupapuro kandi rukaba rwanditseho imibare ndetse n'amagambo agiye ari mu mabara y'umukara.

Uru ni urupapuro rw'inyemezabwishyu, rwanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse rwanditseho n'imibare na yo isa umukara. Hejuru ku rupapuro hakaba hari ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda.

Uru ni urupapuro rw'inyemezabwishyu rwanditseho amagambo ndetse n'imibare bigiye bitandukanye, bikaba biri mu mabara y'umukara, hejuru y'urupapuro hakaba hashushanyijeho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda.

Ibi ni ibiganza by'umuntu bifashe amafaranga, amafaranga ariho igishushanyo cy'umugabo ndetse aya mafaranga yanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'umukara.

Izi ni inoti z'amafaranga; aya mafaranga akaba ashushanyijeho isura y'umugabo ndetse akaba yanditseho amagambo atandukanye ari mu ibara ry'umweru; w'umukara ndetse n'icyatsi.

Aya ni amafaranga agiye atandukanye ariho ibishushanyo by'abantu batandukanye, aya mafaranga akaba ari mu ibara ry'umweru, umutuku n'umukara.

Uru ni urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo ndetse n'imibare bigiye bitandukanye, bikaba biri mu mabara y'umukara n'icyatsi.

Uru ni urupapuro rwanditseho amagambo ndetse n'imibare biri mu mabara y'umweru n'umukara, uru rupapuro rukaba ruriho n'amabendera y'ibihugu bitandukanye.

Ibi ni ibiganza bibiri biri guhana amafaranga aya mafaranga akaba ari igishushanyo cy'umugabo ndetse aya mafaranga akaba yanditseho amagambo agiye atandukanye aya mafaranga akaba asa umweru ndetse n'umuhondo.

Uru ni urupapuro rwanditseho amagambo agiye atandukanye ndetse n'imibare igiye itandukanye biri mu mabara y'umweru n'umukara. Uru rupapuro ruriho n'amabendera y'ibihugu.

Ibi ni ibiceri bigiye bitandukanye biri mu bwoko bwa zahabu ibiceri bikaba biteretse ahantu hasa umweru impande y'ibibice hari inoti ziri mu mabara y'umukara n'umweru n'umutuku.

Izi ni inote zigiye zitandukanye z'amafaranga, ziri mu mabara y'umweru, umuhondo n'umutuku. Izi note zikaba zanditseho n'imibare ndetse ziriho n'ibendera ry'umuryango w'abibumbye W'i Burayi.

Uru ni urupapuro rwanditseho amagambo ndetse n'imibare igiye itandukanye biri mu mabara y'umweru n'umuhondo. Urupapuro ruriho n'amabendera y'ibihugu.

Izi n'inoti nyinshi z'amafaranga, zikaba zigiye ziri mu mabara y'umuhondo, y'icyatsi, umutuku, umukara n'umweru izi noti kandi ziriho ibendera ry'umuryango w'abibumbye w'Abanyaburayi.

Iki ni icyapa kisa umukara, iki cyapa kikaba kiriho amabendera y'ibihugu, nka Kenya, na Tanzania, ndetse kikaba cyanditseho amagambo agiye ari mu mabara y'umuhondo, y'icyatsi, ndetse n'umweru.

Iki ni icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye, aha twavuga nk'insakazamashusho nini ziri ku gikuta, ziriho amagambo cgangwa se ziri mu mabara asa umuhondo n'ubururu.

Aba ni abantu batandukanye, bahagaze imbere y'ikirahure, hejuru yabo hakaba hari icyapa gisa ubururu, kikaba kigiye cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Aya ni amazu agiye atandukanye, ariho ibyapa bigiye bitandukanye, aya mazu akaba arimo abantu mo imbere ndetse no hanze hakaba hari abandi bantu, aya mazu ariho ibyapa biri gusa icyatsi ndetse byanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Uyu ni umuntu uri guha undi muntu uri imbere mu kirahure amafaranga, aya mafaranga akaba ariho igishushanyo cy'mugabo ndetse akaba yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'umukara.

Uyu ni umukobwa wambaye umupira w'umukara n'umweru, akaba yicaye ku ntebe isa umukara, akaba ari mu nzu irimo ibyapa byinshi ibitukura ndetse n'iby'ubururu, ibi ibyapa byanditseho amagambo agiye atandukanye.

Aba ni abantu bambaye imyenda isa umweru batandukanye, bakaba bari imbere y'inzu igiye iriho ibyapa byinshi bitandukanye n'amagambo menshi agiye atandukanye yanditse kuri ibyo byapa.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi iriho ibyapa bigiye bitandukanye biri mu mabara y'umukara. Ibi byapa bikaba byandiho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse hariho n'amabendera y'ibihugu bitandukanye.

Iki ni icyapa gisa umuhondo ndetse n'umukara cyanditseho amagambo agiye atandukanye ari nayo mu mabara y'umweru n'umukara munsi ya kino cyapa akaba hari idirishya rinini risa umweru.

Iyi ni meza ikozwe mu rubaho, iyi meza ikaba iteretse hasi, hirya yayo hakaba hari inzu ifite urugi rusa icyatsi, mu imbere naho hakaba harimo intebe zisa ubururu.

Iyi ni intebe ikozwe mu mbaho, hirya y'ino ntebe hakaba ari n'akabati nako gakozwe mu mbaho, ibi byose bikaba biteretse ahantu hasa umweru ndetse n'urukuta rukaba narwo rusa umweru.

Izi ni intebe zikozwe mu rubaho, izi ntebe zikaba zifite n'amezaza yazo agiye atandukanye nayo akozwe mu rubaho, izi ntebe zose zikaba ziteretse mu cyumba gifite hasi hacyo hasa ubururu.

Iki ni icyumba gifite inkuta z'umweru, iki cyumba kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'utubati tubiri dukozwe mu mbaho.

Ubu ni ubusitani burimo ibiti birebire ndetse hakaba harimo n'intebe zigiye zitandukanye n'ameza yazo. Harimo intebe z'imikara n'izindi zenda gusa n'umuhondo.

Aha ni ahantu harimo amazi ho kogera hakaba hakikijwe n'intebe zigiye zitandukanye ziri mu ibara ry'umweru ndetse n'ameza yazo ndetse n'imitaka.

Iki ni icyumba kinini cyane cyiganjemo intebe nyinshi zikozwemo mu mbaho ndetse n'ameza akozwe nayo mu mbaho, iki cyumba kirimo n'utubati turimo ibyo kunywa bitandukanye.

Iyi ni inzu ndende cyane ifite imiryango y'imikara ndetse n'amadirishya y'imikara. Iyi nzu ikaba ifite imbuga nini ndetse hirya hakaba hateye ibiti by'amoko atandukanye.

Iki ni icyumba gifite inkuta z'umweru ndetse n'amadirishya n'urugi rw'umukara iki cyumba kikaba kirimo intebe zitandukanye ndetse n'ameza.

Iyi ni inzu ndende cyane iriho ibirahuri byinshi cyane by'umukara. Iyi nzu ikaba ifite icyapa hejuru cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Uru ni urupapuro rw'umukara ruriho igishushanyo cy'isahani iriho ibiryo, hasi hakaba hagiye handitseho amagambo atandukanye n'imibare itandukanye, biri mu mabara y'umweru ndetse n'umuhondo.

Ibi ni ibikombe bigiye bitandukanye bisa umukara ndetse imbere hakaba hari amashashi ashushanyijeho ibishushanyo bitandukanye, birimo amabara y'umweru, icyatsi n'umukara.

Iyi ni inyubako irimo inkuta ndende cyane, izi nkuta zikaba zisa umweru. Hasi y'iyi nyubako hakaba hagiye harimo intebe zitandukanye, ziri mu ibara ry'umuhondo.

Iki ni icyumba, gifite inkuta zisa umweru. Iki cyumba kandi, kikaba kirimo intebe z'umukara, ndetse kikaba kirimo n'ameza, ateretse ibikoresho by'ikoranabuhanga, nka mudasobwa.

Aba ni abantu batandukanye bari mu cyumba kimwe, bakaba bicaye ku ntebe zisa umukara, imbere yabo hakaba hari ameza ariho uducupa tw'amazi ndetse n'ibindi nk'ibitabo.

Aba ni abagabo batandukanye bari mu cyumba kimwe, iki cyumba kikaba gifite amakaro asa umukara n'umweru kandi kikaba kirimo insakazamashusho, intebe z'umukara ndetse n'ameza akozwe mu rubaho.

Iki ni icyumba hejuru gisa umweru kirimo n'amatara acanye, hasi naho hakaba hasa umweru, kikaba kirimo ameza nayo asa umweru, intebe zisa umukara. Iki cyumba kirimo n'icyapa cy'ubururu cyanditse amagambo nayo asa umweru.

Iki ni icyumba kigiye kirimo abantu bagiye batandukanye, iki cyumba kirimo intebe z'umweru ndetse abantu bakaba bicaye imbere hari za mudasobwa.

Iki ni icyumba gifite inkuta zisa umweru ,Iki cyumba kandi kiriho ameza ateretseho ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga aha twavuga nka mudasobwa.

Aba ni abantu batandukanye bari mu cyumba kimwe, bakaba bicaye ku ntebe zisa umukara, imbere hakaba hari ameza agiye atandukanye, ateretseho ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa.

Iyi ni inyubako isa umweru iyi nyubako ikaba iriho ibyapa bigiye bitandukanye biri mu mabara y'icyatsi ibi ibyapa bikaba byanditseho amagambo y'umweru.

Iyi ni inzu ndende ifite urukuta rusa umweru ndetse n'amadirishya asa umweru n'umukara, iyi nzu ikaba iriho icyapa kinini cyanditseho amagambo ari mumabara y'ubururu n'umweru.

iyi ni inyubako ifite inkuta zisa umuhondo, iyi nyubako ikaba ifite kandi inzugi z'umweru, izi nzugi zikaba ziriho ibyapa bitandukanye byanditseho amagambo ari mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Uru ni urupapuro rw'umweru, uru rupapuro rukaba rwanditseho amagambo ndetse agiye atandukanye aya magambo akaba ari mu mabara y'umukara n'umweru.

Aba ni abagore babiri bambaye amashati asa ubururu, impande yabo hakaba hari amagambo yanditse ari mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi.

Uyu ni umugabo wambaye ikote ry'umukara ishati y'umweru na karuvati y'umukara ufatanye n'umugore wambaye ikanzu y'umweru hirya hakaba handitseho amagambo ari mu mabara y'ubururu icyatsi n'umweru.

Uyu ni umugore wambaye ingofero y'umweru, akaba yambaye isaha ku kuboko ndetse yambaye n'umupira n'ijire itukura, hirya ye hakaba handitseho amagambo agiye ari mu mabara y'umweru, umukara ndetse n'icyatsi.

Aba ni abantu batandukanye, bamwe bambaye imipira y'icyatsi abandi amashati y'umweru, bakaba bari kuganira n'umugabo nawe wicaye yambaye ishati y'umweru, imbere ye hari ameza ariho ibitangazamakuru, impapuro ndetse na mudasobwa.

Aba n'abagore babiri bafite urupapuro mu ntoki zabo rusa ubururu, n'umweru rwanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Uyu ni umugore uteze igitambaro wambaye ikoti ry'ikoboyi n'ipantaro y'ikoboyi, inyuma ye hakaba hari imisozi myiza cyane ndetse hakaba hari n'imodoka n'amagambo agiye atandukanye.

Iki ni icyapa kiriho ibishushanyo bigiye bitandukanye, iki cyapa kandi cyanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Iki ni icya cyanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'umweru n'ubururu ndetse n'icyatsi iki cyapa kikaba gishushanyijweho n'umutaka munini ndetse n'imodoka.

Uyu ni umukobwa uhagaze impande y'imodoka hejuru y'uyu mukobwa hakaba handitse amagambo ari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru.

Uyu ni umugabo wambaye ishati ndetse n'indorerwamo z'amaso wicaye imbere y'ameza y'umukara ariho impapuro nyinshi ndetse na mudasobwa, imbere ye hakaba hahagaze abantu batandukanye.

Aba ni abantu bahagaze imbere y'inzu ifite umuryango w'ubururu, aba bantu bakava imbere yabo bafite ibitebo bigiye birimo imbuto zigiye zitandukanye.

Iri ni isoko ririmo abantu bagiye batandukanye ndetse rikaba ririmo n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye byiganjemo imyenda igiye iri mu mabara agiye atandukanye.

Uyu ni umugore wambaye igitambaro cy'umuhondo umupira w'umukara ndetse n'ijipo, akaba yicaye imbere ye hari amabase y'icyatsi n'umutuku arimo amafi.

Aba ni abantu bagiye batandukanye bari mu isoko ry'ibicuruzwa, iri soko rikaba ririmo ibitebo birimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye nk'inyanya, ibitunguru, ibishyimbo n'ibindi.

Iri ni isoko ririmo abantu bagiye batandukanye barimo abaguzi ndetse n'abacuruzi. Iyi nzu ikaba irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye byiganjemo imyambaro y'ibitenge.

Aba n'abantu batandukanye bari mu isoko, bakaba biganjemo abaguzi ndetse n'abacuruzi. Iri soko kandi rikaba ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, byiganjemo inyanya, intoryi ndetse n'ibindi.

Aba ni abantu batandukanye barimo baragenda, bakaba bakikijwe n'isoko ririho igisenge cy'amabati y'ubururu, aba bantu kandi hari imodoka y'umukara ibegereye ndetse na moto.

Aba ni abantu batandukanye biganjemo abaguzi ndetse n'abacuruzi bari mu isoko. Iri soko rikaba ririmo ibicuruzwa byiganjemo karoti ndetse n'ibindi.

Iyi ni inyubako, yubakishijwe ibyuma bitukura, ndetse n'amabati asa ubururu. Iyi nyubako, akaba ari isoko, ririmo abantu benshi bagiye batandukanye, n'ibicuruzwa byiganjemo ibyo kurya bitandukanye.

Aba ni abantu bagiye batandukanye, bari kunyura mu binyabiziga bigiye bitandukanye, biri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi. Imbere yabo hakaba hari inzu ndende cyane iriho ibirahure byinshi, yanditseho n'amagambo hejuru ari mu ibara ry'umutuku n'icyatsi.

Ibi ni ibiganza bibiri, ibi biganza bikaba bifite telefone mu ntoki z'abo, hasi hakaba hari ameza hariho ibikombe by'umweru.

Aka ni akazu gatoya gasa umuhondo, aka kazu kakaba karimo umuntu ukicayemo ndetse akakazu kakaba kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Iyi ni inzu ntoya ikozwe mu mbaho, iyi nzu ikaba igiye iriho ibyapa bitandukanye byanditseho amagambo ari mu mabara y'ubururu, umweru ndetse n'umukara.

Aba ni abantu bambaye imipira y'imweru irimo n'umuhondo bahagararanye n'undi mugabo wambaye ishati y'umweru n'umukara n'ipantaro y'umukara mu ihema risa umuhondo.

Uyu ni umugabo wambaye umupira w'umukara wanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru akaba ahagaze imbere yinzu isa umuhondo, iyi nzu yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara n'umutuku.

Uyu ni umugabo wambaye umupira, akaba mu kiganza cye afitemo terefone, akaba ari kureba ku rupapuro rw'umuhondo rwanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu n'umukara.

Uru ni urupapuro rusa umuhondo, uru rupapuro rukaba rwanditseho amagambo ndetse n'imibare bigiye bitandukanye biri mu mabara y'umukara umweru n'umuhondo.

Aba ni abantu batandukanye bari imbere y'akazu k'umuhondo. Aka kazu kakaba karimo umuntu mo imbere ndetse kakaba kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, umukara, n'ubururu.

Aba ni abagabo babiri bambaye imipira y'umuhondo yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, bakaba bahagaze bari gusuhuzanya. Inyuma yabo hakaba hari abandi bantu bari kubareba.

Iyi n'ifoto y'umuntu wicaye ari gukoresha mudasobwa, mudasobwa iri kumeza y'urubaho hirya hakaba handitse amagambo ari mu mabara y'umweru, icyatsi n'umuhondo.

Uyu ni umugabo wambaye ingofero y'icyatsi, umupira w'icyatsi n'ipantaro y'umukara. Akaba yicaye kuri moto y'amabara y'umutuku n'umukara, imbere ye hakaba hari umuhanda wa kaburimbo.

Uru ni urupapuro rw'umutuku, uru rupapuro rukaba rwanditseho amagambo asa umweru ndetse rukaba ruriho n'ibishushanyo byiganjemo imipira y'imyenda ndetse n'amakarita na mudasobwa.

Uru n'urupapuro rw'umweru, rushushanyije ibishushanyo bitandukanye byiganjemo moto, igicupa cy'amazi ndetse na gaze isa ubururu. Urupapuro kandi rwanditseho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo n'umukara.

Uru ni urupapuro rw'umweru ruriho amagambo ndetse n'ibishushanyo bigiye bitandukanye, ibi byose bikaba biri mu mabara y'umukara, umutuku, umweru n'icyatsi.

Uru ni urupapuro rw'umweru, ruriho ibishushanyo bigiye bitandukanye ndetse n'amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'umukara, umweru ndetse n'umuhondo.

Uyu ni umugabo wambaye ingofero isa icyatsi ndetse n'umupira usa icyatsi n'ipantaro, n'inkweto z'umweru ikaba yicaye kuri moto isa umutuku ndetse n'umukara.

Uru ni urupapuro rwanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'umweru. Uru rupapuro kandi rushushanyijeho ibishushanyo bitandukanye nka terefone na mudasobwa.

Uru ni urupapuro rwanditseho amagambo agiye atandukanye, ari mu mabara y'umukara. Uru rupapuro rukaba rushushanyijeho n'igishushanyo kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru.

Uru ni urupapuro rw'umweru, ruriho ibishushanyo bigiye bitandukanye ndetse n'amagambo agiye atandukanye, ari mu mabara y'umutuku ndetse n'umukara.

Uru ni urupapuro rugiye rwanditseho amagambo ndetse n'imibare bitandukanye, uru rupapuro rukaba aririho ibishushanyo by'inkweto ndetse n'ibindi n'imipira yo kwambara.

Iki ni icyapa kiriho ifoto y'abakobwa batatu ndetse iki cyapa kikaba cyanditseho amagambo ari mu mabara y'umweru, umutuku ,umukara n'umuhondo.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi isize ibara ry'icyatsi, ifite inzugi z'icyatsi, iyi nzu ikaba iriho ibyapa binini cyane bigiye biri ibishushanyo by'imbuto ndetse ibi ibyapa byanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, icyatsi, n'umweru.

Iyi ni inzu ifite hejuru hasa umweru, harimo n'amatara ari kumurika umweru, hasi naho hakaba hari amakaro asa umweru, iyi nzu kandi ifite amadirishya asa umweru n'inkuta nazo zisa umweru.

Iki ni icyumba gifite inkuta z'umweru ndetse iki cyumba kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, aha twavuga nk'akabati gasa umweru n'umukara.

Iyi ni inyubako iriho amakaro menshi cyane agiye atandukanye. Iyi nyubako ikaba ifite igisenge gisa umweruru ndetse iriho n'amatara menshi agiye atandukanye. Akaba hari umuntu hirya uri kwinjira mu mujyi.

Iki ni icyumba gisa umweru. Iki cyumba kikaba kirimo igitanda cy'umukara ndetse kikaba kiriho n'ikiringiti gisa umweru.

Uyu ni umugore wegeranye n'umugabo bakaba bahagaze mu busitani bugiye burimo intebe zitandukanye zisa umukara ndetse hakaba harimo n'ibiti bigiye bitandukanye.

Iki ni icyumba gifite amadirishya ndetse n'inzugi z'umukara, iki cyumba kandi hasi gifiteho amakaro y'umweru kandi gifite uburiri bushashe n'amabara y'umutuku ndetse n'umukara n'umusego usa umweru.

Uyu ni umugore wambaye indorerwamo z'amaso, akaba ari mu cyumba gifite inkuta zisa umweru, kirimo utubati dusa umweru ndetse n'ameza asa umukara n'umweru.

Iyi n'inyubako ndende ifite inkuta zisa umweru, iyi nyubako ikaba ifite urugi rw'umukara kandi hanze hakaba hateye intebe z'umweru ndetse n'imeza y'umukara.

Iyi n'inzu ifite igisenge gisa ubururu, ikaba ifite inkuta zisize ibara ry'umweru ndetse ikaba ifite inzugi n'amadirishya bisa umukara, iyi nzu kandi ifite imbuga nini hanze yayo.

Iyi ni inzu iri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu ikaba iriho ibirahuri byinshi cyane imbere y'iyi nzu hakaba hahagaze umugabo wambaye umupira n'ipantaro.

Aba ni abantu bicaye ku ntebe y'umukara imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho ibikoresho bitandukanye na mudasobwa.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi, irimo abantu bagiye batandukanye, baje guhaha, iyi nzu ikaba irimo utubati ture ture tw'umweru, turimo ibicuruzwa by'amoko agiye atandukanye.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye byiganjemo imikandara, ibikapu ndetse hakaba harimo n'inkweto.

Uyu ni umukobwa wambaye ipantaro y'ubururu n'umupira w'umweru, imbere ye hakaba hateretse inanasi ndetse na we akaba afite telefone mu ntoki ze ari gukoresha n'imbere ye mudasobwa.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi iriho ikirahure ndetse ikaba ifite igisenge gisa umweru kirimo n'amatara acanye umweru, muri ino nzu hakaba harimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye.

Uyu ni umugore uri mu nzu y'ubucuruzi. Uyu mugore akaba ari ku kabati karekare kagiye karimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, birimo uducupa tw'amazi n'ibindi byinshi byo kunywa.

Iyi ni inzu irimo abantu benshi bagiye batandukanye. Iyi nzu ifite igisenge cy'umweru ndetse no hasi hasa umweru. Iyi nzu ikaba irimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi ifite hasi hasa umweru igiye irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye ndetse n'abantu bagiye batandukanye baje kugura.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi irimo abaguzi ndetse n'abacuruzi batandukanye. Iyi nzu kandi irimo ibicuruzwa byiganjemo imyenda yo kwambara ndetse n'ibikapu.

Uyu ni umugabo wicaye imbere y'idirishya ry'umweru akaba imbere ye afite amezi manini agiye ariho ibintu bigiye bitandukanye, hanze y'idirishya hakaba hariyo undi muntu uhagaze.

Uyu ni umugore wambaye igitenge, mu kiganza cye akaba afite impapuro zisa umuhondo ndetse n'ubururu. Izi mpapuro zikaba zanditseho amagambo asa umukara ndetse n'ubururu.

Aya ni amakarita menshi atondekanyije aya makarita akaba agiye yanditseho amagambo agiye atandukanye amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Aba ni abantu batandukanye, bicaye ku ntebe z'imbaho. Aba bantu bakaba bafite mu biganza byabo amakayi ndetse n'impapuro zigiye zitandukanye.

Iki ni icyapa kinini kiriho ibishushanyo bitandukanye ndetse n'amagambo atandukanye, amagambo akaba yanditse mu ibara ry'icyatsi, ubururu, umuhondo, n'umukara.

Iyi ni inzu ndende cyane, iriho ibirahure byinshi biri mu ibara ry'ubururu, hasi y'iyi nzu hakaba hariho imodoka ihahagaze iri mu ibara ry'umweru.

Uyu n'umugore wambaye umupira n'igitenge, akaba afite mu ntoki ze aga akayi gasa umuhondo, akaba ari kuvugana n'undi mugore wambaye umwenda w'umweru mu ntoki ze afitemo ikaramu n'urupapuro ari kwandika mu gitabo.

Iyi ni inzu nini cyane y'ubucuruzi iyi nzu ikaba igiye irimo amatara y'umweru hejuru ndetse ikaba irimo n'utubati twinshi tuye turimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi irimo utubati turi mu ibara ry'umukara n'umweru, utu tubati tukaba turimo ibicuruzwa bigiye biri mu mabara y'umutuku, icyatsi, umuhondo n'umukara.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi yubatsemo amakaro ari mu ibara ry'umweru n'umukara kandi iyi nzu ikaba irimo utubati turimo ibicuruzwa by'amoko atandukanye.

Aka ni akabati k'umweru kagiye karimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, biri mu mabara y'umutuku, ubururu, icyatsi ndetse n'umukara.

Aba ni abantu bagiye batandukanye bari mu nzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, byiganjemo ibyokurya biri mu mabara atandukanye.

Uyu ni umugore wambaye umupira, isengeri y'umweru ndetse n'ipantaro y'ubururu, akaba ari mu iduka ari kugenda ahitamo ibicuruzwa ashaka guhaha.

Uyu ni umukobwa wambaye isengeri y'umukara ndetse n'ijipo irimo amabara agiye atandukanye, akaba ari mu iduka cyangwa se inzu y'ubucuruzi igiye irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Aka ni akabati kari mu ibara ry'umutuku. Aka kabati kakaba kagiye karimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye biri mu mabara y'umuhondo, umutuku, ubururu ndetse n'icyatsi.

Uyu ni umugabo wambaye ingofero y'umukara n'ikote, akaba ari mu nzu y'ubucuruzi, irimo utubati turerure cyane tugiye turimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye.